Aba ni abanyeshuri biga ibijyanye n'umuziki, nk'uko bigaragazwa n'umwarimu uri kubigisha, ndetse bikanagaragazwa n'ibikoresho by'umuziki bitandukanye, birimo ingoma, mikoro n'ibindi.

Aba ni abanyeshuri biga ibijyanye no gufata amashusho ,amafoto, ndetse no gufata indirimbo, nk'uko bigaragazwa n'umwe uri gufata amashusho yifashishije kamera.

Aha ni ahantu hasudirirwa ibikoresho bitandukanye nk'uko bigaragazwa n'abantu bari gusudira ibyuma, ndetse n'imashini zisudira.

Iri ni ishuri ryigisha kudoda imyenda. Hari kugaragaramo abanyeshuri bari kwiga kudoda, hakabamo imashini zidoda ndetse hakabamo n'ibitambaro byo kudoda.

Aba ni abanyeshuri bari mu ishuri bakurikiye mwarimu aho bagenda bandika ibyo mwarimu agenda abasobanurira barimo bifashisha amakayi ndetse n'amakaramu.

Aha ni mu ibarizo rikora ibikoresho bitandukanye biva mu biti harimo intebe, nk'uko bigaragara ko hari intebe zamajije gukorwa, zirimo ziranozwa n'ababaji.

Iri ni ishuri ririmo abanyeshuri batandukanye, bambaye bose udupfukamunwa, bakaba bicaye imbere ya mudasobwa, ndetse bakaba bakurikiranye isomo bitonze.

Aba ni abanyeshuri ba segonderi biga ibijyanye no guteka, bakaba bari mu gikoni bambaye impuzankano yo mu gikoni, bakaba bari imbere y'amashyiga biteguye kuba bateka.

Aha ni ku kigo cy'amashuri abanza nk'uko bigaragazwa n'ibyumba by'amashuri ,bikagaragazwa n'abanyeshuri bicaye hanze ku ntebe z'ishuri ,ndetse n'umwarimu uri kubafasha kwiga.

Aha ni mu ishuri ririmo abanyeshuri ndetse n'umwarimu, bakaba bari kwiga mudasobwa nkuko bigaragazwa n'aba banyeshuri bicaye imbere ya mudasobwa ndetse n'umwarimu uri kubereka ibintu bitandukanye kuri mudasobwa.

Aba ni abanyeshuri ba segonndere bari gukora ikizamini. Aho bose bicaye mu cyumba cy'ikizamini bakaba batangiye gukora ikizamini. Bamwe barimo barasoma ikizamini abandi bari gukora.